Iibimera iyo bitewe ku murongo bikunze gutanga umusaruro, hari amapombo dukoresha turuhira mu rwego rwo gukomeza gushyigikira ubuhinzi ndetse n'ibikorwa nk'ibi ngibi, ntabwo rero twakirengagiza ko ibi ngibi umuhinzi abikora ari uko ameze neza kandi yahuguwe neza akamenya n'ibyo akora.

Kugira ngo ubuhinzi butere imbere ni uko bwitabwaho kandi bugashyirwamo imbaraga n'abantu bagiye batandukanye kandi b'ingeri zose, aha ngaha rero tuba tugomba kuhira tugatera n'umuti cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye by'icyaro.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro. Tuba tugomba kugira imiti imwe n'imwe tugomba gutera ibimera mu rwego rwo kwifashakura neza ndetse no kumererwa neza. Aha ngaha tubitera ku mababi yabyo mu rwego rwo kwirinda utwo dusimbuka kuko niho dukunze kugenda dufata, tukagenda tukayatobagura.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hagaragara, haba mu tubati ndetse no mu macupa kandi asa neza harihoho n'ibirango, aha ngaha rero bigomba gukorwa mu nce zo mu cyaro ndetsetse no mu mijyi, mbese ahantu hose hakorerwa ubuhinzi muri rusange, ibikorwa nkibi biba bigomba kugira ahantu bigira kandi bigaragarira buri muntu wese.

Iyo turimo turuhira dukoresha ipombo turwanya tumwe mu dusimba dushobora kwangiza imyaka. Aha ngaha rero ntabwo tugomba kubikora mu buryo butari ubwa kinyamwuga. Abahinzi bagomba gutozwa uburyo bwa nyabwo kandi buboneye mu rwego rwo kwifashisha mu kurwanya no guhangana n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere.

Ubuhinzi bwa kijyambereba buba bugomba kugira ibindi bintu bibuherekeza harimo ibikoresho ndetse n'amamashini, twavuga nko kuhira cyangwa se gukoresha ubundi buryo bwa nyabwo bugezwa nko guca amatarasi y'indinganire, ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera ndetse n'ibihingwa bikure neza kandi n'amatungo abone ibiyatunga.

Mu rwego rwo gushyigikira ibiti, harimo no kwica udusimba dushobora kugenda twangiza amababi yabyo, ntabwo rero ibi ngibi bigomba gukorwa inshuro nkeya, biba bigomba gukorwa igihe cyose hari ibimera bigaragara ko bitameze neza kandi bigakorwa n'umuntu ubizobereyemo.

Kugira ngo ikimera gikore neza, bisaba kucyitondera kandi no kugifumbira, kigenda kizamuka gahoro gahoro, kugeza gitanze umusaruro. Aha ngaha nabaha nk'urugero nk'kinyomoro, gitangira ari gito cyane ariko ntiwakumva imbuto gitanga uburyo ziryoha.

Ubuhinzi buba bugomba gukorwa neza kandi bugashyirwamo imbaraga mu bice bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero dukunze kubona aho abantu bakoresha nka za roswari mu kuhira ndetse no kwica udukoko tumwe na tumwe duturuka ku bimera, cyane cyane aho usanga nko mu ncye zo mu majyaruguru batabyitayeho cyane, tugomba rero kubashishikariza kubikora kandi bagashyiramo imbaraga zose zishoboka.

Imiti y'amatungo irakenewe cyane, ntabwo rero hagomba kwirengagizwa akamaro kayo kuko niyo aduhereza ifumbire tujya tugashyira mu myaka yacu igakura maze n'saruro ukiyongera.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwo kuhira, harimo gukoresha amapombo cyane cyane n'imipira igenda ikageza amazi kure. Ibi ngibi bituma ubuhinzi butera imbere kandi n'ibimera bigakura bimeze neza.

Abahinzi bashyiriweho uburyo bwiza kandi buboneye. Ibi ngibi rero bituma umusaruro w'igihugu wiyongera kandi n'abantu bakiteza imbere ku buryo bugenda bugaragarira buri muntu wese ugana igihugu cyacu.

Ibimera bigomba kwitabwaho kandi bikagirirwa isuku, abahinzi bagiye berekwa uburyo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere bwo gushyigikira ibimera byabo. Ntabwo rero tugomba kubyangiza cyangwa se ngo tubure kubibungabunga.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere harimo kuroba twifashishije inzitiramubu. Ntabwo rero abantu benshi barasobanukirwa neza ubu buryo kuko hagomba gukorwa inyigisho ihambaye ndetse n'ubukangurambaga.

Buriya inyamaswa zikunze kuba ahantu hatandukanye: hari izo mu mapariki, hari izorohererwa mu rugo, hari n'iziba mu mazi. Abenshi rero ntabwo bazi ko inyamaswa zo mu mazi na zo ari ingirakamaro cyane kandi zikunze guteza imbere abantu bakora ubwo buhinzi n'ubworozi. Aha ngaha twavugamo nk'amafi aho usanga abantu bayacuruza babona amafaranga menshi kandi ahagije.

Gukora ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho ni ibintu byiza, aha ngaha si ibyo gusa hagomba kubamo n'uburobyi kandi bigakorwa mu buryo bwiza kandi buboneye, ibi biradufasha cyane.

Abarukiye bakunze kuba bakunze kuba bari ahantu hari amazi menshi nk'ibiyaga ndetse n'imigezi, ntabwo rero twakwirengagiza ko ari abantu na bo bafitiye Igihugu akamaro kuko ibikorwa bikozwe neza bikunze gutanga umusaruro ku gihugu, tugomba rero kubashyigikira kandi tukabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ubuhinzi bukorerwa mu mazi ntabwo abantu benshi bakunze kubusobanukirwa, leta rero igomba gushyiramo imbaraga ndetse n'ubukangurambaga mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu kumenya icyo ubu buhinzi bufasha ndetse n'icyo bwongera ku gihugu, ntabwo nababura gushishikariza abantu kumenya akamaro k'amazi muri rusange kuko hari n'ibimera cyangwa se izindi nyamaswa zibamo kandi nazo zigomba gufatwa neza.

Ubuhinzi bukunze gukorerwa ahantu hari amazi bukunze gutera imbere cyane ntabwo rero twabura gushishikariza abantu kubukora ndetse no kubwitabira, aha ngaha rero tuba tugomba gushyiramo imbaraga tugafasha abantu babukora mu kwiteza imbere tubahereza ibyo bakeneye yaba ifumbire y'imborera cyangwa se imvaruganda.

Ibiyaga bigomba kubungabungwa neza hari inyamaswa zibamo nk'amafi, imvubu kandi ibyo byose ni ibidukikije. Aha ngaha rero nta muntu ugomba kutabifata neza tugomba kumva ko ari inshingano za buri muntu wese.

Amafi dukunze kuyasanga mu migezi ndetse no mu biyaga hamwe n'inyanja. Ntabwo rero tugomba kuyangiza, tugomba kuroba ku buryo bwemewe kandi bwa kijyambere, leta ikaba ibizi ndetse tukagira n'imisoro dutanga.

Ubuhinzi ni kimwe mu gikorwa gikunze gukorwa mu Rwanda kandi giteza imbere abantu, harimo abantu bagenda babukora bakabona amafaranga agiye atandukanye kandi bakinjiza ku buryo bugaragara tugomba rero gushyiramo imbaraga tugafasha abantu bose gusobanukirwa ndetse tugakorarana n'ubukangurambaga.

Ibiyaga n'imigezi bikunze kuvamo inyamaswa bakunze kwita amafi akenshi rero ari mu byubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, abantu rero bagomba kuroba mu buryo bwiza kandi buboneye aho kugira ngo bakore mu buryo budahwema kubashyira mu byago.

Ahantu hari ikidendezi cy'amazi hakunze gukoreshwa mu gice cy'ubuhinzi cyane cyane nk'umuceri. Ntabwo rero nabura kuvuga akamaro k'amazi muri rusange aho adufatiye runini.

Hari ubuhinzi n'ubworozi bugenda bukorerwa mu mazi. Aha ngaha twavuga nk'amafi. Aho usanga abahinzi bakora buno bworozi, barateye imbere cyane kandi ubona ko bwose bukenewe ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku isoko ry'umurimo. Tugomba rero gufasha bano abahinzi mu kubashyigikira, tukirinda kwangiza ibituruka mu mazi.

Ubworozi bw'amatungo bukunze gukorwa neza mu bice byo mu cyaro ariko hari n'ubundi bworozi dukora bw'amafi aho usanga tuyubakira tugatuma yororoka vuba. Ntabwo rero tugomba kumenya ko agomba kororokera mu mazi gusa.

Ubuhinzi buba bugomba gushyirwamo imbaraga kuko ni inkingi ya mwamba mu iterambere, nta munyarwanda udashimishwa no kubona ibiryo bihagije, cyane cyane nko ku bana baba bagikeneye gukura.

Ibihingwa nk'ikawa byamaze kugaragara ko ari ibihingwa byongera umusaruro ku gihugu kandi bifatiye runini abaturage kuko yoherezwa hanze, aho ushobora gusanga iboneka mu bihugu bike by'amahanga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukunze gushyirwamo imbaraga na Leta y'u Rwanda, abahinzi rero babukora usanga bariteje imbere, babona amafaranga kandi babayeho neza, si ibyo gusa kuko hari n'inyungu Igihugu kibonamo muri ubu buhinzi.

Ubuhinzi bw'icyayi buba bugomba gutezwa imbere mu bice byose bigiye bitandukanye, ntabwo tugomba kwirengagiza ko n'ubundi bwatezwa imbere ariko cyane cyane kuko zino zoherezwa hanze nk'ikawa ni zo ndi kuvuga, usanga zifasha abahinzi mu gukemura ibibazo byabo bigiye bitandukanye bya buri munsi, tugomba rero kubashyigikira tugashyiramo n'imbaraga zose zishoboka.

Igihingwa k'ikawa gikunze koherezwa mu mahanga. Tuzi akamaro kayo kandi yageragejwe no kugenda ishyirwa ahantu hose hashoboka mu gihugu kugira ngo buri muturage wese, agire icyo ayikoraho kandi na we abone umusaruro uturutse kuri yo.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze kugaragara mu gice cy'amajyaruguru y'u Rwanda, aha ngaha rero cyoherezwa hanze abantu bakabona amafaranga dukunze kwita amadevize ndetse n'imisoro ku bantu bagenda bagitwaye. Tugomba rero gushyiramo imbaraga kandi tugashishikariza abantu kubukora kuko bino bintu bigabanya n'ubushomeri mu rubyiruko ndetse no mu bantu bagiye batandukanye cyane cyane n'abaturage badafite akazi cyane cyane n'abitwa ko batize.

Ubuhinzi bw'icyayi buboneka mu ntara y'amajyaruguru abahinzi rero usanga bariteje imbere ndetse bagatanga n'akazi ku bantu bakennye, ahangaha rero urubyiruko rugomba kwitabira ibikorwa nk'ibingibi mu rwego rwo guhangana n'ubushomeri ndetse n'ikibazo cy'inzara kikagenda gikemurwa kuko bino bihingwa byoherezwa hanze abantu bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gushyirwamo imbaraga na leta yacu. Ibingibi byatumye umusarurombumbe w'igihugu uzamuka ugera ku rundi rwego kandi rwiza runashimishije yaba ku munyarwanda ndetse n'undi wese ugenerwa izo serivisi.

Ibikorwa by'ubuhinzi bigenda bikorerwa ahantu hagiye hatandukanye ah angaha navugamo nk'ibishanga ndetse n'ahandi hantu mu mpinga z'imisozi cyangwa se mu bibaya cyane cyane dukunze gutera imiceri ahantu hari amazi menshi kandi ahagije, ibi ngibi rero bigomba gukorwa neza kandi bigashyirwamo imbaraga.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buba bugomba gushyigikirwa cyane kandi bugahabwa agaciro muri rubanda, yaba mubize ndetse no mu batarize kuko nta muntu ibi ngibi bitareba dukurikije akamaro kazo.

Ubuhinzi bw'ikawa bwakomeje gushyigikirwa cyane, ntabwo twakirengagiza rero akamaro kazo kuko zoherezwa hanze, zigatanga umusaruro kandi n'abantu bakinjiza andi mafaranga ku ruhande bashobora gukemura mu bibazo byabo bya buri munsi.

Ibihingwa ngengabukungu nk'umuceri cyangwa se icyayi bikunze kuboneka mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu, aha ngaha rero tugomba kumenya kubishyigikira kandi tukabitera ahantu heza kandi hagaragara hari n'amazi menshi ahagije, abahinzi rero usanga biteza imbere kandi bakabona n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorerwa mu ntara y'Amajyaruguru, abantu rero bahaturiye ntabwo bajya bagira ikibazo cy'amafaranga cyangwa se icy'ubushomeri kuko abenshi bahabwa akazi mu mirima y'icyayi.

Igihingwa cy'ikawa gikunze guterwa ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu, nta muntu ukora buno buhinzi usanga akennye kuko zirahenze cyane, kandi zongera n'umusaruro ku gihugu, ibingibi rero byatumye ubukungu bw'u Rwanda buzamuka.

Ubuhinzi bw'imbuto bugomba gutezwa imbere, cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, nta muntu rero n'umwe uba ugomba guhezwa, cyangwa se ngo agire ikindi kintu cy'imbogamizi ahura nacyo mu gihe arimo arabukora, hagomba kubaho ingamba zo gushyigikira abahinzi, ndetse no kubateza imbere mu bice byose bishoboka.

Ubuhinzi bukunze gukorerwa mu Majyaruguru harimo nk'icyayi, usanga abantu bakoreraho babona amafaranga menshi kandi n'Igihugu kikiteza imbere giturutse muri iyi misoro ishobora gutangwa ivuye mu bihingwa byoherezwa hanze, ntabwo rero tugomba kwita ku bintu bimwe na bimwe, tugomba gushyiramo imbaraga mu bice byose bigiye bitandukanye by'ubuhinzi

Ibihingwa nk'umuceri bikunze kugira akamaro cyane muri rubanda, aha ngaha rero turabigurisha tukabona amafaranga tugakemura ibibazo bimwe bigiye bitandukanye, nta muntu warembera mu rugo akagira ikibazo cy'ubwishingane mu kwivuza mu gihe yahinze igihingwa nk'umuceri; aha ngaha tugomba gushyiramo imbaraga ndetse tukibuka no gukoresha ifumbire y'aba imborera cyangwa imvaruganda.

Ibihingwa ngengabukungu byakomeje kugenda bishyirwamo imbaraga cyane. Abantu babikora biteza imbere bakabona amafaranga ahagije kandi atubutse. Ntabwo rero nabura gushishikariza abantu kugana iyo nzira kuko bizatuma ubukene bugabanuka, yaba mu gihugu ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze gukorerwa mu nshe zo mu majyaruguru cyangwase ahantu hakunze kuba hari imisozi yitaruye, ntabwo rero twakwirengagiza akamaro ka cyo kuko cyoherezwa hanze u Rwanda rukinjiza amadevize abaturage bakabona ibintu bigiye bibatunze bivuye muri ayo mafaranga bagurishije ndetse n'ubukungu ku gihugu bukiyongera.

Imiti y'amatungo ikunze kuza ipfunyitswe mu masashi. Ibi ngibi rero bigomba gukorwa neza kandi bikagaragara bikanasobanurirwa abaturage cyane cyane abahinzi borozi baba bakeneye gukoresha iyi miti ku nyamaswa zabo ndetse no ku bimera.

Tugomba kumenya gufata neza ibihingwa ndetse n'ibikoresho dufashisha mu kurwanya zimwe mu nyamaswa, aha ngaha rero tugomba kuba tubigirira isuku tubyitaho tukirinda kubyangiza cyangwa se kubishyira ahantu bishobora kwangizwa n'abana batazi akamaro kabyo kandi n'abantu bakuru tukirinda kubikoresha nabi, tukamenya gukora igikwiye mu gihe cya nyacyo.

lmiti y'amatungo iba igomba gushyirwa ahantu hitaruye kandi hagaragarira buri wese mu rwego rwo kwirinda kuyangiza. Akenshi rero tugomba kuyishyira ahantu hari ibicupa binini kandi byiza bipfundikiye mu rwego rwo gukomeza kuyibungabunga no kuba hakinjiramo utundi dusimba dushobora kuyangiza.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hagaragara kandi iboneka ku bantu bose bakora ibikorwa by'ubuhinzi, ntabwo tugomba kumenya ko ari abantu bamwe byagenewe cyangwa se ari abo bireba gusa, twese tugomba kubishishikarira kandi tukabiteza imbere, tugakorarana n'ubucuruzi buturuka kuri iyi miti.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hizewe. Iri mu ducupa cyangwa se mu masashi. Tugomba rero kumenya uburyo bwiza buboneye bwo kuyibika, tukirinda kuyisanzagiza ahantu hose habonetse mu rwego rwo kwirinda ingaruka zayo.

Imiti yagenewe amatungo igomba kuba iri ahantu heza mu dukarito kandi mu macupa agaragara neza. Ibi ngibi rero bigomba kuba bikozwe neza kandi bifite ubuziranenge. Ntabwo twakwirengagiza akamaro kayo kuko usanga tuyihereza amatungo yacu akamererwa neza ndetse n'ibihingwa byacu bigakura kuko hari udusimba na tumwe na tumwe dushobora kugenda tugatobora amababi ibihingwa ntibikure neza.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri mu ducupa tugaragara kandi dusa neza, igomba kubikwa ahantu hizewe kandi hafite umutekano, ibingibi bituma abana batayangiza cyangwa se n'undi muntu utazi ibyo aribyo akaba yabukoresha mu buryo butanogeye cyangwa se budakwiye.

Ubuhinzi n'ubworozi, busaba izindi mbaraga zihariye, harimo nko gushaka ibiryo by'amatungo, ndetse no kubibungabunga. Tugomba rero gufata neza amatungo yacu, tuyaha imiti mu gihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Imiti y'amatungo igomba kuba ari ahantu heza kandi hagaragara. Ibi ngibi rero bifasha abantu kugira bimwe bagenda bakemura ndetse n'ibimera byayo bigakora neza ndetse n'amatungo akabona ibintu biyagirira akamaro. Ni byiza rero gukomeza kuyibungabunga.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi hizewe, igomba kugaragazwa n'ibintu bigiye bitandukanye nk'inyandiko isobanura neza akamaro kayo; ibi rero bizatuma ikoreshwa mu buryo bwa nyabwo kandi buboneye.

Ibikorwa bimwe na bimwe by'ubuhinzi bisaba ko hari izindi ngamba simusiga zigomba gushyirwaho harimo nko gukora imiti myinshi kandi ihagije ishobora guhangana n'udukoko dushobora kwangiza ibimera cyane cyane mu bice byo mu cyaro ndetse n'ahantu hegereye ibisimba bigiye bitandukanye.

Imiti y'amatungo iba yaragiye ishyirwa mu bikarito ndetse no mu macupa atandukanye, ni yo mpamvu n'Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyashyizemo imbaraga nyinshi zishoboka mu kubaka inganda nshyashya kandi ngari.

Imiti y'inyamaswa iba igomba kubikwa ahantu heza kandi hizewe, igomba kurinda kwangirika cyangwa kugira ngo hatagira ikindi kintu gishobora kuza kikayihungabanya ntabwo twakwirengagiza ko ibintu bikunze gukorwa ahantu cyane cyane nko mu cyaro aho bataramenya uburyo bwiza kandi buboneye bwo kubungabunga.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri ahantu heza kandi ibungabunzwe kuko iyo yangiritse umumaro wayo uratakara, ukagabanuka, byaba rero byiza iyo umuntu amenye kuyikoresha neza kandi agakurikiza n'amabwiriza.

Ahantu tubika ibikoresho byacu by'amatungo hagomba kuba hizewe kandi hafite isuku, aho ngaho navugamo nk'imiti ndetse n'ibiribwa. Ntabwo rero tugomba gukerensa kugira isuku y'ibimera ndetse n'ibiribwa muri rusange.

Imiti yagiye igenerwa amatungo yakomeje kugenda igaragazwa ko ifite ubuziranenge kandi buhanitse, aha ngaha rero ni uko leta iba yaragiye igashyiraho ingamba zikomeye kandi zikarishye mu rwego rwo kwagura ubu buhinzi.

Imiti y'amatungo n'ibimera igomba kuba iri m'uducupa tugaragara neza, ibi ngibi rero bituma umuntu uyikoresha asobanukirwa neza akamenya n'agaciro kayo. Ntabwo ari ugupfa gukoresha uko yishakiye iyo miti.

Imiti y'amatungo igomba kuba iri mu dupfunyika tumeze neza kandi twanditseho. Ibi ngibi bituma abantu batayibeshyaho cyangwa se ngo babe bayitiranya bayikoreshe ibidakenewe kandi bidakwiye.

Imiti y'amatungo igomba kuba ifunze neza mu dukarito. Ibi ngibi bituma itangirika, cyangwa se n'umuntu ugiye kuyikoresha ngo abe yayikoresha ku buryo butari ubwa nyabwo kandi butaboneye.

Amatungo kugira ngo akure neza ni uko agomba kuba afite ibiribwa ndetse n'imiti yo kuyitaho mu gihe arwaye, ibingibi bizatuma ubuhinzi n'ubworozi buzamuka cyane mu bice byose by'Igihugu.

imiti y'amatungo igomba gushyirwa ahantu heza kandi hagaragara, ntabwo twakwibagirwa kumenya gushishikariza abahinzi borozi kuyigura ndetse no kuyibungabunga no kwifata neza. Ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera ndetse n'inyamaswa zigakura neza ndetse abantu bakagenda biteza imbere, cyane cyane mu rubyiruko.

Imiti y'amatungo iba igomba kubikwa ahantu heza kandi hizewe, mu rwego rwo kwirinda kwangizwa n'ibindi bintu bishobora gutuma itamererwa neza cyangwa se ngo igi umusaruro, aha ngaha rero tugomba gufata neza amatungo yacu tuyagurira bimwe mu bikoresho byo kwifashisha mu gihe turi gutera iyi miti ndetse tugashyiramo n'imbaraga dushishikariza abahinzi kuyitabira no kuyikoresha.

Abahinzi bagiye batozwa uburyo bugiye butandukanye. Aha ngaha harimo gukoresha amasuka ndetse n'ibindi bikoresho nk'umuhoro. Ntabwo rero bagomba kwirengagiza gukoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera kandi bakirinda kugira ibyo bangiza, babikoresha nabi.

Kugira ngo imbuto zikure neza zirarembekwa zigashyirwa mu masashe maze nyiri ubwite akazitaho kandi akazuhira ku buryo bwose bushoboka, ibi ngibi rero bigomba gukorwa neza kandi kenshi.

Ibigori ni imbuto nziza cyane. Aha ngaha rero tugomba kumenya uburyo bikorwarwamo kandi bikanahingwamo mu buryo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere. Cyane cyane tugomba kumenya ko iyi mbuto y'ibigori, iyo imaze kuma, igenda ikanikwa ahantu heza kandi hagaragara, izuba rikabikubita maze bikuma, tukabona kubihura.

Ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare burakorwa cyane cyane mu bice byo mu Mutara. Aha ndavuga mu ntara y'Iburasirazuba. Ntabwo tugomba kwirengagiza akamaro k'amatungo maremare nk'inka aho tubonamo amata, inyama ndetse n'ifumbire cyane cyane iy'imborera tugenda tugashyira mu myaka yacu igakura neza.

Amapapayi ni imbuto nziza cyane, aya ngaha rero yifashishwa mu kurwanya zimwe mu ndwara z'imirire mibi harimo na za bwaki, ntabwo rero tugomba kuyangiza cyangwa ngo tuyafate nabi tuyahanure akiri ibitumbwe. Abantu baba bagomba kuyafata neza, bakamenya kuyitaho, bakamenya no kuyicira.

Abantu bagiye batandukanye bakunze kwicara mu twatsi bakaganira, bakungurana ibitekerezo. Aha ngaha rero yaba abakambwe, abagore ndetse n'abana bagomba kuba bari ahantu heza kandi hizewe biyumvira amahumbezi y'ibyiza by'ibidukikije.

Tugomba gushyiramo imbaraga mu buhinzi aha ngaha navuga nk'ibigori aho usanga bikunze guterwa ahantu hari nk'ibishanga bakajya babyuhira buri munsi, ntabwo rero tugomba kwicara ngo tudamarare mu gihe twabiteye tuba tugomba gushyiraho izindi ngamba zo kubirinda harimo nko kubyuhira ndetse no gutuma abana bari kubicaho batabyangiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho n'ubworozi, harimo kororera ahantu heza, hafite isuku kandi hameze neza, ibi ngibi rero bikunze kuba inzitizi mu bantu bamwe na bamwe bakunda gukora ubworozi bwo mu gasozi.

Abahinzi baba bagomba kwigishwa mu rwego rwo gukomeza kwiteza imbere, bakigishwa uburyo bugezweho bw'ubuhinzi harimo gukoresha amamashini ndetse n'ibindi bikoresho byose bya kijyambere cyanecyane bagatozwa no gukoresha ifumbire mvaruganda abenshi usanga bayitinya bavuga ko yangiza ubutaka ariko imyumvire iba igomba guhinduka.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka bukunze gutezwa imbere cyane, ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo zikunze gutanga ifumbire bakunze kwita amase aho igenda igashyirwa mu bihingwa maze na byo bigakora neza kandi bigatanga umusaruro; akenshi rero zifasha no mu kurwanya imirire mibi aho abana babona amata ahagije.

Ibimera usanga byitabwaho n'abantu basa nk'abakuze ariko urubyiruko rwe rwigeze ba ntibindeba. Ibi bintu rero ntabwo ari umuco mwiza tugomba kumenya akamaro bidufitiye kandi tugashyiramo imbaraga zose zishoboka.

Abantu bajya gutashya cyangwa se gusenya bagomba kumenya ko ibyo biti ari ibintu bidukikije. Leta rero yagiye izana ingufu z'amasanyarazi cyangwa se zituruka ku maze bakunze kwita Biyogazi mu ndimi z'amahanga.

Ubuhinzi bukozwe neza buteza imbere abantu, aha ngaha rero umuntu uri gusarura ibihingwa bye usanga yishimye kandi anezerewe ndetse n'umuryango ukagenda ukemura ibibazo bigiye bitandukanye harimo nk'imirire mibi n'ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza, ntabwo tugomba kubiharira abantu bamwe, tugomba kubyitabira twese nk'umuryango.

Ubuhinzi bw'ibigori bwakomeje kugenda bugaragara ko bwafashije abantu benshi cyane. Iyo bimaze kwera, abahinzi usanga bizihiwe kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo imbuto yabo itangirika. Leta ni yo igomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo iki gikorwa gikomeze kugenda neza.

Ubuhinzi bukozwe neza bukunze gutanga umusaruro yaba ku babukora ndetse n'abatabukora, akenshi rero iyo imyaka yeze dukunze gusagurira amasoko natwe tukagerageza kwihaza mu biribwa.

Ahantu hari ibimera cyangwa se pipinnyeri hagomba kurindwa neza. Ibi ngibi rero bizatuma ibihingwa bikura neza, bifite isuku kandi binizewe. Bimwe bikaba byanakoherezwa no hanze, apana kuguma mu gihugu gusa.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza butanga umusaruro, aha ngaha havuga nko ku gihingwa k'ibigori aho gikunze kwehera mu gihe kitarambiranye kandi imbuto yabyo iraramba cyane kuko impugu ntabwo zishobora kuyangiza ku buryo bworoshye.

Inka ni ubworozi bwiza cyane, ntabwo rero bukunze kunanirana aho usanga bamwe bafite ubwoba ngo baziha iki. Ushobora kuzijyana ku mariba ukajya uziha amazi menshi, ukazishakira ubwatsi mugihe imvura yaguye, kandi ibingibi rwose ntabwo bigoranye cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukorwa ahantu hagiye hatandukanye. Aha hanga rero tugomba kumenya ko ari ingenzi mu kubukora ndetse tugashyiramo n'imbaraga dushishikariza abaturage kubukora ndetse bakamenya no kwiteza imbere. Ntabwo ibingibi rero bigerwaho mu gihe gitoya biba bigomba gukorerwa inyigo y'imari ihagije.

Ubworozi bw'inka buba bugomba gushyigikirwa kandi bugatezwa imbere na leta. Aha ngaha rero nta muntu n'umwe bitareba. Nta muntu runaka ugomba kuvuga ngo ngewe biriya birandeba cyangwa ntibindeba, yaba urubyiruko, yaba umusaza, yaba ndetse n'abandi bantu bose babifite mu nshingano baba bagomba gushyiramo imbaraga, bakarwana ndetse bagahangana.

Ibimera bigomba gufatwa neza kuko bifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu ndetse n'ubw'isi muri rusange, bimwe bivamo ibiryo by'amatungo, ibindi bivamo imiti ndetse tunabikoresha tunasasira nk'insina zacu.

Ubuhinzi ni kimwe mu gisate gikomeye cyane igihugu gifite. Ntabwo rero tugomba kwirengagiza akamaro kabwo. Harimo abahinga harimo n'abadahinga ariko twese tuzi akamaro kabwo kuko twese turya ibyavuye mu murima. Tugomba rero kubungabunga neza ubutaka, tukirinda kuba twabwangiza. Mu rwego rwo gushyigikira ubuhinzi.

Amarume ni imbuto rwose ziba zisa neza, nyirukuyatera aba azi agaciro kayo kandi aba yaratojwe n'uburyo bwo kuyitaho, ibingibi rero byatumye imbuto zigaragara ku masoko hirya no hino mu gihugu kandi nta kibazo cyayogihari cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori byamaze kugaragara ko bufite akamaro kanini cyane, hari igihe inzara yateye abantu batungwa na byo kuko imbuto yabyo ibikwa igihe kirekire cyane ntibe yakangirika.

Ibimera biba bigomba gufatwa neza kandi bikabungabungwa. Nta muntu n'umwe udafite inshingano zo kwita ku bimera, yaba umukuru, yaba mu umusaza, yaba n'urubyiruko yewe. Tugomba rero kumenya ko abantu bakora ibyo ibintu tugomba kububaha kandi tukabahereza ubufasha bwose bushoboka, harimo nk'ifumbire ndetse n'ubujyanama.

Akenshi iyo tugiye ku isoko tuba tugomba gushaka n'imbuto mu rwego rwo gukomeza kurwana n'ikibazo k'imirire mibi. Aha ngaha rero tugomba guhaha tumenye ko ibyo duhashye bidufitiye akamaro ndetse bifitiye n'umuryango wacu akandi kamaroN ntabwo tugomba kwicara ngo duterere agati mu ryinyo mu gihe tutakoze ibikorwa nk'ibi ngibi.

Ibimera iyo bititaweho neza ntabwo bikura. Ibingibi byagiye bigaragara mu bushakashatsi bwagiye bukorwa, mu mpande zose zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu. Ariko ntitugomba kwirengagiza n'akandi kamaro ko kubibungabunga.

Ibimera bigomba guhabwa agaciro gakomeye cyane kuko ni ibidukikije, dukunze kubivanamo imiti y'amatungo, imiti yacu bwite ndetse n'ibiryo ku matungo ndetse natwe. Ibi ngibi rero ni impamvu ifatika yo kubyitaho.

Ubuhinzi bwagiye butezwa imbere cyane aha ngaha rero twavuga nk'ibisheke aho bikunze kuvamo isukari, hari igice cyo mu Majyepfo y'u Rwanda aho bita ku Ruyenzi niho hakunze kuboneka ibisheke ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi iyo bukozwe neza butanga umusaruro, aha ngaha natanga urugero nk'ubuhinzi bw'urutoki, aha ngaha rero abantu babukora babona amafaranga, bakagenda bakemura n'ibibazo bimwe bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza kandi gifasha abantu mu kwiteza imbere, byamaze kugaragara rero ko iyo Leta ishyizemo amafaranga ndetse n'ingengo y'imari bishoboka ko abantu babukora bagenda biteza imbere kandi bakagira bimwe mu bintu bageraho by'ingirakamaro.

Ibihingwa ndetse n'ibimera ntabwo bigomba kwangizwa, ahangaha navuga nk'imbuto cyane cyane nk'amapapa akunze kumera n'ahantu hari ibishanga kuko urubuto rwayo iyo ruguye ahantu hamwe igiti gihita kizamuka ako kanya.

Ubuhinzi bw'urutoki buba bugomba gufatwa neza kandi bukitabwaho n'abantu bagiye batandukanye, umuntu ubukorera aba agomba kumenya: gusharira insina, kuzifata neza, kuzicira, akamenya niba wenda nka kirabiranya yaziteye akamenya kugenda arandura izishobora kuba zafashwe mu rwego rwo kurinda kuba izindi zakandura.

Ibihingwa nk'intoryi ntabwo bikunze kwitabwaho cyane, harimo abantu bataramenya agaciro kabwo cyangwa se ngo babwitabire, birasaba rero ubukangurambaga bwimbitse kugira ngo iki gihingwa na cyo gitezwe imbere.

Ubuhinzi bw'urutoke bukunze guteza imbere rubanda, abantu bose babukora usanga barateye imbere, ntabwo nagenda ntabwiye akamaro k'ibitoki aho bivamo umutobe, ndetse ibindi bikavamo urwagwa rwa kinyarwanda.

Ibihingwa bikunze kuba biri ahantu hagaragara aha twavuga nk'imyumbati aho yo yera mu rubuye cyane cyane kandi igakura ku buryo bunini, aho umuntu ashobora gutera nk'ibiti bitatu akavanaho imyumbati irenga icumi.

Ibimera bigiye birimo amoko agiye atandukanye. Harimo imboga n'imbuto hari n'izo twita dodo. Ntabwo rero abantu barasobanukirwa neza icyo twita gutegura indyo yuzuye twifashishije ibimera harimo n'ibi ngibi bigiye bifite amababi y'icyatsi. Tugomba rero kubikangurira abaturarwanda bose bakamenya kurwanya imirire mibi.

Ubuhinzi bw'umuceri bukunze gukorwa ahantu mu gishanga kuko niho haba hari amazi menshi kandi ibi ngibi bigatuma umuceri ukura neza. Ibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga ndetse n'ahantu hari ibishanga kino gihingwa kikahagezwa ku buryo bwihuse kandi bworoshye.

Ibiti by'amapapayi bikunze guhingwa ahantu hagiye hagaragara kandi hizewe, ibi ngibi rero byatumye umusaruro w'Igihugu wiyongera kandi n'imirire mibi irahashywa ku buryo bugaragara.

Ibirayi ni imbuto ikunze guhingwa mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu cyane cyane mu gice cyo mu majyaruguru. Ibi ngibi rero bituma abantu babyitabira mu kubihinga kandi na bo ubona ko bibagirira akamaro aho bibaha n'amafaranga.

Mu bice byo mu cyaro hakunze kuba hagaragara ubuhinzi bw'amasaka, aha ngaha rero hakunze kuvamo umusururu ndetse n'igikoma aho kifashishwa n'abana mu rwego rwo guhangana n'imirire mibi nka za Bwaki. Nta muntu utuye mu cyaro rero uba agomba kugira ikibazo nk'iki ngiki kandi ubutaka buri aho ngaho burimo burapfa ubusa.

Ubuso budafite ibimera ntacyo bwaba butumamariye ndimo ndavuga ubutaka, tuba tugomba gushaka ikintu tuhashyira k'igikorwa remezo cyadufasha mu kwiteza imbere kandi ibi ngibi bigakorwa mu buryo bwiza kandi buboneye.

Imyumbati ni imwe mu bihingwa bikunze gukorwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse no mu bisata byose by'igihugu, aha ngaha rero tuba tugomba gushyiramo imbaraga mu kubihinga ndetse no kubibungabunga, akenshi ni ukugenda tukavunya ibiti, tukabitera ahantu heza kandi hagaragara, mu rwego rwo gukomeza kwiteza imbere tukamenya no gucukura imiringoti.

Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro, aha ngaha ntabwo twakirengagiza akamaro k'ibimera, harimo bimwe bivamo imiti, harimo ibivamo ibiryo by'amatungo ndetse no ku bantu ntabwo rero tugomba kubifata nabi cyangwa se ngo tubikerense, tugomba gushyiramo imbaraga ndetse tugashyiramo n'umurava mu kubitera no kubibungabunga.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bukorwa cyane n'abaturage, ahangaha rero iyo byeze bikunze gutanga umusaruro aho bimwe bivamo ibiryo by'amatungo ndetse no ku bantu biragenda bikanikwa bikuma bikamvugwamo ifu iryoha cyane bakunze kwita kawunga, aho abantu benshi badakunze kumenya uburyo igenda kugira bigere aho hantu hose.

Ibimera ni ibintu bidukikije cyane. Tugomba kubibungabunga kuko ibyinshi bikunze kuvamo imiti y'amatungo ndetse n'ibiribwa. Si ibyo gusa kuko no ku bantu hari imiti imwe n'imwe ituruka ku bimera, niyo mpamvu tugomba kwirinda kubitwika cyangwa se kuba twabyangiza kuko nabyo ni ibidukikije.

Imbuto y'ibirayi ikunze gushyirwamo imbaraga n'abahinzi cyane cyane batuye mu gice cyo mu majyaruguru. Aha ngaha rero byatumye ikibazo cy'inzara mu Rwanda gihagarara kandi mu bice bimwe na bimwe rwose, biragaragara ko hari umusaruro byagiye bitanga.

Ahantu hari umurambi ntabwo abantu bashobora gutekereza igikorwa runaka bashobora kuhakorera nk'ubuhinzi ariko buriya abantu b'abanyabwenge bareba kure kandi batekereza, bahita bicara bagakora umushinga neza, bakawunoza, bakamenya ikintu cyiza cyahakorerwa kandi kijyanye n'aho hantu.

Ibimera nk'imyembe bikunze kuba biri ahantu heza kandi haterereye. Tugomba kumenya ko idufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Harimo nko kurwanya imirire mibi ndetse ikagenda yifashishwa no mu miti igiye itandukanye y'ubuvuzi bwa kinyarwanda. Aha ngaha ndavuga nk'amababi yayo.

Imbuto y'ibirayi ikunze kuboneka mu gice cy'Amajyaruguru. Aho usanga abantu benshi bagiye babayeho neza kandi bafite n'imigambi ihamye. Ibi ngibi rero byakomeje kugenda bigaragara kandi byifashishwa n'abantu bagiye batandukanye.

Ibimera bikunze guterwa ku murongo kandi bigafasha akamaro aha ngaha rero ntabwo twakwibagirwa ko bidufatira runini mu bice byacu byose bya buri munsi, aha ngaha rero abahinzi bagomba guhabwa agaciro kandi bagahabwa n'inyongeramusaruro harimo ifumbire y'imbonera n'imvaruganda mu rwego rwo guhangana n'ibizazane.

Ibigori ni ubuhinzi bwiza cyane bukunze gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye nka za Uganda, aha ngaha rero tugomba kumenya gushyiramo imbaraga ndetse no guhinga kijyambere dukoresha amamashini ndetse n'ahatari ngombwa tugakoresha n'ibindi bikoresho nk'amasuka mu rwego rwo gukomeza gushyigikira buno buhinzi.

Amashyamba agomba kubungabungwa kandi agashyirwaho n'izindi ngamba, ibingibi rero bizatuma ibidukikije birushaho kugenda bikungahazwa mu bice bigiye bitandukanye byose by'Igihugu kandi nta kintu na kimwe gihutajwe.

Inzego z'umutekano zikunze kwitabira ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aha ngaha navuga nk'umuganda, ubuhinzi, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane. ibi ngibi rero leta igomba gushyiramo imbaraga.

Amashyamba ni ibintu bidukikije kandi tugomba gufata neza. Harimo inyamaswa zimwe na zimwe tuhasanga nk'impara, imparage, impyisi ariko ibi ntibigomba gutuma tuyatwika kugira ngo tugirire nabi izo nyamaswa.

Ahantu hari agasozi hakunze kuba hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ibimera, tugomba kubifata neza tukabibungabunga kuko ari inshingano zacu, kuko tuzi akamaro kabyo harimo ibivamo imiti y'amatungo ndetse n'iy'abantu ku giti cyabo harimo n'izivamo imbaho cyane cyane nk'ibiti ndetse n'amakara dukoresha ducana.

Ibimera biboneka ahantu hagiye hatandukanye, aha ngaha rero tugomba kubibungabunga aho tubibonye hose, tukirinda kubitwika cyangwa se gushoramo amatungo mu buryo butemewe cyane cyane nk'inka.

Ahantu hari ibibaya haba hagomba kwitabwaho, tukamenya kuhatera ibiti mu rwego rwo gukumira isuri mu gihe yaje ndetse no kurinda kurindimuka ubutaka bwacu ntibube bwagenda ngo bwangirike, aha ngaha rero ibimera biba bigomba guterwa neza kandi bigashyigikirwa mu bice byose bishoboka.

Ibikorwa remezo nk'imihanda byagiye bishyirwa ahantu hajya hatandukanye yaba mu cyaro ndetse no mu mijyi, usanga rero iba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ariko ibi ngibi nta kintu byahindura kuri ibi bikorwa remezo kuko ahubwo bituma bikomeza kubungabungwa neza, aha ngaha rero tugomba kumenya agaciro kayo.

Amashyamba ni ibidukikije. Aha ngaha rero dukunze gusangamo ibiti birebire by'inganzamarumbo. Aho bino biti bitanga amafaranga ndetse bikavamo imbaho ndetse n'ibicanwa nk'amakara. Ntabwo tugomba kwirengagiza akamaro kabyo gakomeye cyane harimo nko kuvamo impapuro. Tugomba rero kubifata neza tukabibungabunga tukirinda kubitema.

Ahantu hari ikibaya cyangwa imirambi hakunze kumera ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye, ntabwo rero tugomba kugira bimwe twangiza cyangwa se ngo tubitwike, tugomba gusigasira neza ibidukikije.

Ibikorwa remezo dufite harimo amashuri, amashanyarazi ndetse n'imihanda. Ibi ngibi mu Rwanda byitaweho cyane, aho Leta yagiye ishyira ibikorwa remezo ahantu hamwe na hamwe tutakeka ko byahagera.

Amashyamba agomba kubungabungwa neza tugomba kuyafata neza tukamenya ko ari ibidukikije kuko adufitiye akamaro. Aha ngaha navuga nk'ibiti aho usanga bivamo imbaho, amakara ducana ndetse ibindi bikavamo n'imiti cyane cyane ariya amashami yabyo.

Ibimera bigomba kwitabwaho cyane kuko ni ibidukikije, bikunze kuvamo ibiryo by'amatungo, imiti ndetse byifashishwajwe no kugenda bisasira bimwe mu bimera nk'urutoki cyangwa se inyanya, tugomba rero kubibungabunga tukirinda kubitwika mu gihe cy'impeshyi.

Ibimera bigiye birimo ingeri zigiye zitandukanye: harimo ibicanwa, harimo ibidacanwa, harimo ibivamo ibindi bintu bigiye bidufasha nk'imiti dukoresha mu buzima, aho usanga abantu benshi badakunze kumenya akamaro k'ibiti bakaba babyangiza cyangwa se bakabitwikamo amakara.

Amashyamba ni ibidukikije. Akenshi rero tugomba kumenya ko harimo ibiti ndetse n'ibindi bintu. Ntabwo twakwirengagiza akamaro kabyo. Aho bimwe bivamo imbaho ndetse n'ibindi bikaramvurwamo impapuro. Tugomba rero kubifata neza tukabishyigikira kuko na byo ni ibidukikije kandi by'ingirakamaro.

Ubutaka bugira agaciro iyo bwitaweho neza kandi hagashyirwamo n'ifumbire ihagije, ntabwo rero tugomba kubwangiza cyangwa ngo tubufate nabi, si na byiza na gato kubona umuntu agenda abwangiza nko kugenda aragiramo amatungo aho kugira ngo amenemo ifumbire.

Amashyamba ni ibidukikije kandi bifite akamaro ndetse bigifitiye n'igihugu cyose akamaro. Tugomba kumenya kuyabungabunga, tukirinda kuyatwika, watema igiti kimwe ukibuka gutera bibiri nkuko umunyarwanda abivuga kuko tuzi ko akunze gukurura ba mukerarugendo kuko ni n'ahantu inyamaswa zikunze kuba kandi zishimira cyane.

Ahantu hari amaterasi y'indinganire, ibimera bikora bimeze neza kandi bifite isuku, ni byiza rero gushyiramo imbaraga kandi tugakoresha ubushobozi bwose bushoboka mu gushyigikira ibimera no kubibungabunga.

Ibiti bigiye biteye ahantu hatandukanye bikunze kugira akamaro kanini cyane ahangaha rero tugomba kumenya ko harimo ibivamo ibiryo by'amatungo, imiti yayo ndetse no ku bantu.

Ibimera bigiye bitandukanye biri ku gasi ntabwo bigomba kwangizwa. Tugomba kumenya kubifata neza cyane cyane nk'ibiri mu mapariki. Aha ngaha rero ntitugomba kwirengagiza bimwe mu biti bigiye bifite amashami cyangwa se bifite n'amahwa. Ntabwo rero tugomba kugenda ngo tubiteme cyangwa se tubyangize.

Ikoranabuhanga mu buhinzi ubu ryarabyoroheje, ntabwo abantu bakirirwa bajya gushaka ibintu kure kuko bitumiza bibereye iwabo mu ngo cyangwa se no mu mirima yabo, ibingiyi byatumye umusaruro utumbagira ugera mu bicu.

Imbuto nk'intoryi, puwavuro ndetse n'inyanya ni ibihingwa bikunze guhingwa ahantu henshi hagiye hatandukanye nko mu bishanga, ntabwo twakirerengagiza akamaro kazo rero akenshi zijyanwa ku isoko zikoherezwa no hanze zigakemura ibibazo by'inzara ndetse n'imirire mibi, nta muntu uba agomba gufata ifunguro hatarimo izo ngeri zose z'imbuto.

Inyanya ni bimwe mu bikorwa rwose bigaragaza ko umuhinzi yateye imbere, aha ngaha iyo zimaze kwera, zijyanwa ku isoko kandi zikagurishwa, si ibyo gusa kuko ibiryo bigiye birimo inyanya biraryoha cyane ndetse n'umuntu agakomeza kugenda arushaho kunogerwa bitewe n'amafaranga agenda abona.

Mu bwoko bw'imbuto tugiramo imineke, ibitunguru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo kuko zifasha mu igogora, zikadufasha mu kurwanya indwara ndetse n'umuntu wazifashe akunze kuba ameze neza cyane kuko ntabwo umuntu asuragurika uko abonye.

Ibiti by'amapapayi bigomba kuba biri ahantu heza kandi bikitabwaho. Iyo bitarera neza bakunze kubyita ibitumbwe. Tugomba rero kwitonda mu gihe turimo turatera zino mbuto tugashyiraho n'ingamba nziza zo kuzisigasira no kuzibungabunga.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukunze gukorerwa ahantu hagiye hatandukanye, yaba mu mirima cyangwa se no mu rugo, aho dushobora kubaka uturima tw'igikoni, tugateramo imboga zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bw'urusenda nabwo bukunze gukorwa neza kandi bwamaze kugaragaza ko nabwo bwateza imbere igihugu. Abantu rero bashishikarizwa kubukora kandi bagashyiramo imbaraga zose zishoboka.

Ubuhinzi bw'indabo ubu ngubu bwongerewe imbaraga cyane aho usanga muri za kaminuza bwigwamo, aha ngaha navuga nko muri Kaminuza y'u Rwanda i Busogo aho usanga umuntu amara imyaka ine arimo ariga ibintu byerekeranye n'ubuhinzi bw'indabo no kuzitaho, aha ngaha rero zoherezwa hanze kandi zigatanga umusaruro ndetse n'amafaranga ku Gihugu.

Ubuhinzi bw'indabo ntabwo abantu benshi babusobanukiwe ariko abamenye akamaro kabwo bashyizemo imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye kandi byagiye bibagirira akamaro. Aha ngaha rero tugomba kumenya ko tugomba kubushyigikira kandi tugashishikariza n'abantu kubukora, yaba abato, yaba abakuru ndetse n'abitwa ko bajijutse bose bagashyiramo imbaraga zose zishoboka.

Indabo ziba zigomba gufatwa neza kandi zigahingwa neza, ntabwo rero hari umuntu runaka bireba, tugomba gushyiramo imbaraga tugashishikariza abantu batarasobanukirwa n'akamaro kazo, bakamenya kuzihinga kandi bakazitaho, tugomba gushyiramo imbaraga kandi tukubaha abahinzi bakora ubu buhinzi.

Ubuhinzi bw'indabo ni ubuhinzi bwiza cyane kandi bufasha abantu mu kwiteza imbere. Butanga amafaranga ku babukora ndetse n'abantu bakagenda bamera neza. Iyo ugiye nko mu rugo ugasanga bateguye indabo ku meza usanga ari ibintu byiza kandi bisa neza byongera umusaruro ndetse bigafasha n'abantu mu kwiteza imbere.

Guhinga inyanya ni igikorwa kiza kandi k'ingirakamaro. Nta muntu utakishimira gukora buno buhinzi iyo amaze kumenya amafaranga bimuhereza. Ibi ngibi rero bizatuma buri muntu wese amererwa neza kandi agatera imbere ku rwego ruhambaye.

lbyapa bishyirwa ku muhanda biba bifite icyo bigaragaza kandi byerekana ,ibi ngibi bituma abantu bagenda babona amafaranga ,kandi ntibaze no kuyoba mu gihe bari kugenda, n'igenzi rero kubyubaha ndetse no gukurikiza amabwiriza yabyo.

Ubuhinzi bw'inyanya bukunze gukoreshwa ahantu hagiye hatandukanye kuko ubu ngubu ikigero cy'u Rwanda rumaze kugeraho ni Mpuzamahanga kuko bwagiye buzamurwa kandi bushyirwamo imbaraga.

Imbuto zigiye zitandukanye zigomba kuba zifite icyo zishingiyeho kandi zifite n'uburyo bwiza bwo kubikwamo ntiziborere mu mifuka cyangwa se mu ntebo. Aha ngaha navuga nk'inyanya zikunze kubora cyane kandi ku buryo bwihuse.

Ubuhinzi bw'amashuri ni ingenzi, busaba imbaraga rero no kubwitaho ku buryo buhagije, ni byiza rero gukomeza gushyiramo imbaraga kandi tukanabyitaho mu buryo bwose bushoboka, ni ingenzi.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere harimo no kuhira ibimera, aha ngaha rero ntabwo abantu bajya bagira ikibazo cy'amapfa cyangwa se k'impeshyi mu gihe haba hari n'izuba rikaze kuko baba bafite igisubizo.

Mu buhinzi bwa kijyambere harimo gutoza abaturage kuhira no gukoresha amashini, ariko no mu buhinzi bwa rusange, ntabwo tugomba kwirengagiza kuhira, mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no kurwana n'ibindi bibazo byose bishobora guturuka ku ngaruka mbi z'ubuhinzi butatejwe imbere.

Lazwaro ni igikoresho gikunda gukoreshwa n'abahinzi mu gihe cyo kuhira, ibi ngibi rero bituma ubuhinzi butera imbere kandi bugafasha n'abantu babukora kwiteza imbere, byagaragaye yuko iyo dushyizemo imbaraga amajyambere tuyageraho ku buryo bworoshye kandi bwihuse, ugereranyije n'abantu badakora ubuhinzi bwa kijyambere kandi bugezweho.

Uburyo bwiza bwo gukora ubuhinzi harimo ubwa kijyambere harimo nko kuhira ndetse no gukoresha amamashini agiye atandukanye, ibi ngibi rero byakomeje kugenda bigaragara ko bitanga umusaruro utubutse kandi n'abahinzi bakiteza imbere batavunetse cyane, aha ngaha twavuga nko mu Rwanda aho usanga nko mu gice k'Iburasirazuba hakunze kuboneka abantu bakoresha uburyo bwiza bwo kuhira.

Ubuhinzi bw'amashuba bugomba gushyirwamo imbaraga kandi bugatezwa imbere, hari uburyo bwagenewe bwa nyabwo bwo kuyitaho harimo nko kuyatera imiti mu rwego rwo kurinda amababi yayo kugira ngo atangirika, ibingibi rero bizatuma umusaruro bumbe w'igihugu wiyongera kandi ukazamura n'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi ni kimwe mu bisata igihugu gifite kandi kigenda gishyiramo imbaraga, ntabwo twakirengagiza akamaro kabwo, abantu rero bagomba kumenya ibyiza byabwo, yaba ababukora ndetse n'abatabukora, tugomba gushyiramo imbaraga kandi tugafasha abahinzi mu kubona ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda.

Mu bumenyi igihugu kimaze kugenda cyiyungura harimo no kuhira bya kijyambere, ibi ngibi twagiye tubikura hanze, aho usanga nko mu bihugu byateye imbere, biza bikifashisha zimwe mu ngaruka zazo zagiye zihura nazo, zikaza zigafasha n'abandi baturarwanda mu rwego rwo guteza imbere buno buhinzi.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza kandi bugashyirwamo imbaraga butanga umusaruro hari uburyo bwiza bwo kuhira dukoresheje ibikoresho gakondo cyangwa se tugakoresha n'imashini za kijyambere nk'imipira.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi Leta y'u Rwanda yashyizeho ingengo y'imari kandi nini ihagije. Ibi ngibi byazamuye ikigero kigaragara cyane mu buhinzi aho buri wese ubu ngubu asigaye yisangamo.

Ibimera biba bigomba kuba biri ahantu heza kandi hatunganye. Hagomba gushyirwaho ingamba zo kubyitaho kandi n'abantu babikora bagahabwa agaciro muri sosiyete. Ibi ngibi bizatuma igihugu gitera imbere.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwo kuhira harimo gukoresha amazi aturuka mu bice bigiye bitandukanye, ntabwo rero tugomba gutegereza imvura cyangwa se ibindi bintu byose bishobora gutuma ibihingwa bitamererwa neza.

Ubuhinzi bugomba gukorwa neza kandi bugashyirwamo imbaraga cyane cyane mu nshe zo mu cyaro abantu bagatozwa kuhira imyaka yabo, bakiga gukoresha uburyo buboneye bwa kijyambere harimo guca amatarasi y'indinganire n'ibindi bikorwa byose bigiye bitandukanye bifasha mu kuzamura ubuhinzi.

Mu rwego rwo gufata neza ibimera, tuba tugomba kubyuhira, tugashyiramo n'izindi mbaraga zose zishoboka, aha ngaha tugomba kwibuka no guca amatarasi y'indinganire mu rwego rwo guhangana n'isuri cyangwa se ibindi bibazo bishobora guturuka ku buhinzi, aha ngaha tugomba kwirinda nk'imvura nyinshi cyane cyane tukabitwikira.

Amazi agomba kuba yarashyiriweho uburyo bwiza kandi buboneye bwo kuyafata kuko ari mu bintu bidukikije cyane, tugomba kumenya rero ko ibintu bidukikije atari twebwe ubwacu n'ibiti ndetse n'amazi nayo arimo.

Ubuhinzi buba bugomba kwitabwaho kandi bugashyirwamo imbaraga n'inzego zigiye zitandukanye za Leta, kugira ngo Igihugu gitere imbere ni uko Abaturarwanda cyangwa se abaturage b'Igihugu runaka bagomba kuba barihagije mu biribwa ndetse no mu bintu bigiye bitandukanye, tugomba kubyitaho rero tukabyuhira kandi tugashyiramo imbaraga mu kubibungabunga.

Ibimera iyo bitewe ku murongo ni bwo bitanga umusaruro. Aha ngaha rero abahinzi bagomba gutozwa mu buryo bwo guhinga bwa kijyambere, harimo nko guca amatarasi y'indinganire ndetse bakamenya no kugenda bashyiramo amazi. Ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera w'ubuhinzi ndetse n'ibindi bikorwa byose bishamikiyeho bikagenda bitezwa imbere kandi na byo bikagirira abantu akamaro.

Ibikorwa bimwe tugenda dukora by'ubuhinzi birimo no kuhira ndetse no gufata neza ibimera. Aha nga rero tugomba gushyiramo imbaraga, tukirinda kugira bimwe na bimwe twangiza. Ntabwo rero nabura gushishikariza buri muturarwanda wese gufata neza ibimera ndetse n'ibidukikije, mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo biterwa n'imirire mibi.

Uburyo bwiza bwo kuhira harimo ubwa gakondo n'ubwa kijyambere ariko icya mbere ni ukumenya ngo ubutaka turi guhereza ayo mazi bumeze bute, akenshi rero ubushakashatsi bugaragaza ko ubutaka bwijimye aribwo bukunze gutanga ibimera bimeze neza.

Kuhira ni igikorwa cy'ingirakamaro kuko ibimera byacubi hita bikura neza kandi n'abantu bigatuma badashobora kubyangiza cyangwa se ngo babifate uko bishakiye, ibi ngibi rero bizongera umusaruroro mu bice byose by'igihugu ndetse no muri iki gisata cy'ubuhinzi.

Inyubako ziri mu mpinga cyangwa se munsi y'umusozi zikunze kuba ziri mu byago bikomeye cyane aho u ushobora nko kuriduka cyangwa se hagwa n'imvura nyinshi ukaba watemmba ayo mazu, tugomba kubaka rero mu buryo bwiza kandi buboneye.

Akenshi rero ahantu hari ikirwa ntabwo hakunze kuba hari ibikorwa by'iterambere nk'imihanda igezweho ariko ibi ngibi bituma abantu bakora ubushakashatsi berekana ko abantu bakagombye kuba batuye ku mudugudu kugira ngo begerezwe ibikorwa by'iterambere.

Ahantu hari umurambi haba hagaragara neza. Ntabwo rero tugomba kwitagura ubwo bwiza gusa, tugomba no kumenya kubungabunga ibimera bihagaragara nk'ibyatsi kuko twabonye ko bidufitiye akamaro, hari nkuko bimwe bigenda bivamo ibiryo by'amatungo.

Imiturire ni kimwe mu bintu bigenda bifasha abantu mu bintu bitandukanye. Abantu rero bagomba gutozwa gutura ahantu heza bakirinda gutura ahantu hashobora kubateza ibibazo nko mu manga z'imisozi cyangwa ahandi hantu hahanamye hashobora kuba nk'ibiza nk'isuri cyangwa se ibindi bintu byose by'ibikorwa bishobora kubangiriza cyangwa se bikaba byatwara ubuzima bwabo.

Akenshi rero ahantu hari ikibaya dukunze kuhakorera ibikorwa byiza bigiye bitandukanye, harimo nko kuhahinga ibimera bigiye bitandukanye nk'urutoki cyangwa se ibindi bihingwa. Tugomba kumenya kubyaza umusaruro ubutaka dufite bwaba buto cyangwa se bunini kandi tukabikora mu buryo bwose bushoboka.

Imiturire iba igomba kunozwa kandi igakorwa neza, cyane cyane mu bice byose bigiye bitandukanye by'igihugu, nta muntu ugomba kujya gutura mu manga cyangwa se ngo ature ahandi hantu hataboneye, ibi ngibi bituma abantu iyo batuye ahantu hatameze neza bashobora kugira ibindi bibazo by'ibyuririzi nk'indwara zituruka ku mibu nka Malariya kandi ibi ngibi ntabwo ari byiza ku buzima bwacu.

Abantu baba bagomba kugenda bagatuzwa ku mudugudu bakirinda gutura mu manegeka, ibi ngibi rero ni mu rwego rwo kwirinda ibiza nk'isuri aho bishobora kuza bigasenya ibikorwa remezo cyane cyane nk'amazu cyangwa izindi nyubako runaka, harimo n'abashobora kuhasiga ubuzima ugasanga abantu bagiye babayeho nabi bitewe n'ibyo bibazo byaturutse ku masuri ndetse n'imiturire mibi.

Ibimera bigiye bitandukanye bigomba kubungabungwa neza kandi bigashyirwamo imbaraga. Ntabwo rero twakirengagiza akamaro kabyo. Ibi bizatuma igihugu gitera imbere ndetse n'abaturage muri rusange.

Ikiyaga ni kimwe mu bintu bidukikije. Ahangaha rero biba bigomba kwitabwaho ndetse leta igashyiraho n'ingamba zo kubibungabunga. Tugomba kwirinda kubyangiza cyangwa se gushyiramo indi myanda ishobora kwica inyamaswa zo mu mazi. Aha ngaha rero tugomba kumenya ko bidufitiye akamaro kandi tugakoresha uburyo bwose bushoboka. Mu kubyitaho.

Ahantu hari ibibaya n'imisozi ntihagomba gutereranwa ngo twumve ko nta kintu twahakora gifite akamaro, dushobora nko kuhatera ibiti, tugaca imiringoti mu gihe amazi aje ari menshi, ntabashe gutembana ubutaka bwacu, ibi ngibi bizatuma twiyongera kandi tukabona n'amafaranga menshi.

Ahantu h'ikibaya kandi hahanamye nta bikorwa bikunze kuhakorerwa cyane rero tugomba gutekereza ikintu twahakorera mu rwego rwo kubungabunga neza ubutaka. Aha twaca nk'imiringoti, tukahatera n'ibiti byinshi kandi bihagije.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gukorerwa ahantu hagiye hatandukanye, haba mu cyaro cyangwa se mu mugi. Ibi ngibi rero byagiye bigaragara aho umuntu wese ashishikarizwa gukora ubworozi bw'amatungo magufi kandi ibi ngibi byagiye bizamura umusaruro.

Ubworozi bw'inka ni kimwe mu gikorwa kigaragara kandi gifitiye Igihugu akamaro, abantu babikora rero usanga bariteje imbere kandi babayeho neza; ntabwo rero ibi ngibi bigomba kugarukiraho gusa bagomba guhabwa n'amahugurwa mu rwego rwo kunoza uyu murimo.

Ubworozi bw'ingurube ni ingirakamaro cyane, abantu babukora rero usanga bariteje imbere aho usanga babona ibintu bigiye bitandukanye nk'ubwisungane mu kwivuza kandi bakanikenuza ibibazo byabo, biturutse muri aya mafaranga zibaha.

Ubworozi bw'inkwavu bukunze gukorwa n'abakiri batoya, ibi ngibi rero biba bigomba guhinduka abantu bagahindura imyumvire yabo n'abakuru nabo bagashyiramo imbaraga, kuko ibingibi bizatuma nabo bikura mu bukene.

Imishwi ikunze kuba iri ahantu hagiye hatandukanye hari inkoko kazi. Ibi ngibi rero bituma umuhinzi mworozi, yiteza imbere, aho agenda agurishamo imwe n'imwe, akabona amafaranga, akishyura nk'ubwisungane mu kwivuza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'ubuzima byamufasha kwiteza imbere akabyagura.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gufasha rubanda aho butanga amagi, inyama ndetse n'ifumbire, ibingibi rero bituma umusaruro mbumbe w'Igihugu uzamuka ukagera ku rwego rushimishije.

Korora inkoko bikunze kugaragara ku bantu bitwa ko ari abasirimu, ariko nyamara ibi ntibyakagarukiye aha ngaha buri muntu wese yakagombye kubyitabira kandi agakoresha uburyo bwose bushoboka na we akagira rino tungo.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gutezwa imbere cyane mu bice byo mu mujyi ndetse no mu cyaro, abakora ubu bworozi usanga bariteje imbere, babona amafaranga kandi bakabasha no gukemura ibibazo bimwe na bimwe byo mu buzima.

Ihene ni ubworozi bw'amatungo magufi, ifumbire zitanga irahenda cyane bayita amahurunguru, ikunze no kuminjirwa mu mboga nk'abantu baba barubatse uturima tw'igikoni kuko ugiye nko kuyishaka ku isoko iba ihenze cyane.

Ubworozi bw'inka bwahozeho mu Rwanda cyane cyane mu muco n'iyo habayeho nk'ibintu by'ubukwe cyane cyane n'ibindi birori bigiye bitandukanye mu rwego rwo gushimira umuntu hari igihe uvuga ati: "Nguhaye inka". Ni ikimenyetso kiza cyane kandi gishimangira umuco w'Abanyarwanda ndetse n'ubu ngubu biracyakorwa.

Ubworozi bw'inkoko bugomba gushyirwamo imbaraga rwose, Leta yagerageje kugenda ishishikariza abantu kubukora kandi rwose ibi bintu birakwiye. Nta mpamvu rero yo kudakurikiza inama za Leta ndetse n'Igihugu muri rusange.

Umuhinzi nyawe aba agomba kumenya ko inka zigomba kuba ziri mu biraro akubabaka n'ikibumbiro hafi mu rwego rwo guhangana n'ikibazo k'inzara, aha ngaha rero iyo zuhiwe zigahabwa n'ibyatsi usanga zitanga umukamo utubutse kandi n'abantu bazoroye usanga biteza imbere koko bakagenda basagurira n'amasoko.

Inkoko ni ubworotsi bw'amatungo magufi, akenshi rero bukunze gukorerwa mu nshe zo mu cyaro ndetse no mu mugi, aha ngaha rero iyo zitaweho zitanga umusaruro maze n'umuhinzi akabona amafaranga, si ibyo gusa kuko zitanga n'amagi aho usanga arwanya imirire mibi cyane cyane nka Bwaki mu bana.

Inka za kijyambere cyangwa se bakunze kwita iza kizungu, ntabwo zatwibagiza iz'umwimerere ndetse n'umuco wacu twitaga Inyambo, zabaga zifite amahembe maremare kandi manini, ibi ngibi rero byatumye abazungu batwangiriza umuco, aho twumva ko zo nta kamaro zikidufitiye.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bukorwa n'abantu bagiye batandukanye. Yaba abakuze, yaba urubyiruko cyangwa se abana. Aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga mu kuzibungabunga, tukazihereza ibiryo byazo kuko hari nizo tugenda tugurisha tukabona amagi cyangwa se tukabona n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo nk'inka bukunze gutanga umusaruro muri rubanda. Usanga ababukora bariteje imbere bakagenda bakemura ibibazo bimwe bigiye bitandukanye by'ubuzima. Aha ngaha ntabwo twakwirengagiza ko aya matungo akunze kuduhereza amata ndetse n'ifumbi y'imborera dushyira mu bimera byacu bigakura neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko bukunze gushyirwamo imbaraga na leta ndetse n'ibindi bikorwa byazo bikunze guhabwa agaciro cyane, ntabwo ari nka mbere rero aho abantu bari batarasobanuka cyangwa ngo basobanukirwe n'agaciro kabyo.

Korora ni ibintu byiza kandi ugomba gushyirwamo imbaraga. Ahangaha navuga nk'ubworozi bw'inka nk'amatungo maremare, akunze gutanga umukamo ugasanga abantu baroreye batagira ikibazo cy'imirire mibi cyangwa se ngo usanga bafite ibindi bibazo nk'ibyubw'isungane mu kwivuza, kuko ibingibi bigenda bikorwa neza kandi bigashyigikirwa mu bice byose by'igihugu.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere rubanda, ababukora usanga nta kibazo bajya bagira cy'ubwisungane mu kwivuza kuko usanga bagenda babona amafaranga binyuze mu magi zibahereza ndetse bakarwanya n'imirire mibi mu bana babo.

Inka zororerwa mu biraro kandi ibi ngibi bituma umusaruro ugenda ugaragara ku rwego rw'Igihugu. Ntabwo rero twakirengagiza akamaro kazo n'aho ziduhereza amata ndetse n'ifumbire y'imborera dushyira mu myaka.

Ubworozi bw'inkoko bwagiye bushyirwamo imbaraga kandi bugaragara ko bugenda bufasha abantu benshi bagiye batandukanye. Nta muntu ukora buno bworozi ngo abeho nabi cyangwa se agire ikibazo cy'imirire mibi nka za bwaki. Aha ngaha tugomba kumenya ko izi nkoko zikunze gutanga n'ifumbire ndetse n'amagi, aho usanga abantu bazifite babayeho neza rwose.

Ubworozi bw'inkoko bukunze gukorerwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Usanga abahinzi babukora bariteje imbere, babayeho neza kandi nta bibazo bagenda bahura na byo by'ubuzima. Niyo bije babasha kurwanya na byo ndetse bakabyirinda. Ntabwo rero tugomba gukerensa gushishikarira bubona ubuhinzi.

Ubworozi bw'amatungo bukunze gukorerwa ahantu hari ibice kandi bigiye bitandukanye cyane cyane nko mu cyaro, abantu rero babaukora usanga bariteje imbere aho usanga babona ifumbire, bakabona amata ndetse n'imirire mibi igahashywa cyane cyane mu bana; ibi ngibi rero bigomba gushyigikirwa kandi na Leta igashyiramo imbaraga zose zishoboka.

Ihene ni ubworotsi bw'amatungo magufi, ifumbire yazo irahenda cyane ariko ibingibi ntibyatuma tutayigura ngo dushyira mu myaka yacu, kuko ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko ari ingenzi cyane mu mboga n'imbuto.

Imbuto zigomba gushyirwamo imbaraga mu guhingwa, ntabwo twakwingagiza n'ibindi bihingwa cyangwa se ibimera ariko nanone tuzi ko zo zidufatiye inkingi ya mwamba; aha ngaha rero bizatuma iterambere rizamuka ku muntu no ku Gihugu.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje kugenda butera imbere cyane, aha ngaha rero tugomba kumenya gukoresha uburyo bwa nyabwo kandi bugezweho mu gukora ubuhinzi bwa kijyambere, tubishyiremo imbaraga rero.

Ubuhinzi bw'imbuto bugomba kuba bwitaweho cyane kandi bugashyirwamo imbaraga. Harimo abantu babikemuye cyane cyane nko mu nshe zo mu mujyi ahantu badafite ubutaka buhagije, aho usanga bakora uturima tw'igikoni, bakagenda bateramo imbuto zigiye zitandukanye kandi ugasanga baziteyeho rwose, ibyo ngibyo bikarwanya imirire mibi.

Iyo turimo turatera imbuto tuba tugomba kuzishyira ahantu hari ubutaka bwiza kandi bugaragara. Ntabwo tugomba kugenda ngo twicare twumve ko hari ahantu runaka hatagomba guterwa imbuto. Yewe dushobora no guca n'uturima tw'igikoni tukaba twazishyiramo kuko ahantu hose zahakurira kandi ntizigire ibibazo biteza.

Ubuhinzi bw'imbuto bukunze gukorwa ahantu henshi, aha ngaha rero cyane cyane nko mu nce z'icyaro aho umuntu afite ubuso bunini, aba agomba kuhatera ibimera bigiye bitandukanye mu rwego rwo kurwanya ubushomeri cyangwa se ibindi bibazo bishobora guturuka ku nzara, aha ngaha rero tugomba gushishikarira guhinga ibihingwa nk'ibyo ngibyo biduhereza amafaranga.

Ubuhinzi buba bugomba gushyirwamo imbaraga kandi nyinshi ibi ngibi bituma umusaruro uzamuka kandi n'ibihingwa bikagenda bikura neza, hari ibintu bimwe na bimwe tuba tugomba kugenda tudakora kandi bitanakwiye nko kugenda ushaka kwerekana ko ubuhinzi nta kamaro bufite mu Gihugu, ibikorwa nk'ibi biba bigomba kurwanywa rwose.

Ubuhinzi bw'imbuto bukunze gukorwa cyanecyane mu bice byo mu cyaro, ntabwo twakwirengagiza akamaro kazo ahangaha rero tugomba kumenya gushyiramo imbaraga tugatoza abahinzi kumenyabumenya gukoresha uburyo bwa kijyambere mu kuzibungabunga no kuzishyiramo ibindi bikorwa byose byadufasha mu rwego rwo gukomeza kuzibungabunga neza.

Ubuhinzi n'ubworozi bukenera abaganga babizobereyemo, aha ngaha rero hari abantu baba bagomba kwita ku matungo bakayafata neza bakayavura mu gihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Abantu bita ku matungo, bagomba kuba barabihuguriwe kandi bafite impamyabushobozi zibigaragaza kuko harimo abantu bamwe na bamwe bagenda babyitirira aho kugira ngo babayafashe gukiraraho ugasanga barayangije. Aha ngaha harimo abantu muri buri murenge bagiye bashyirwaho kandi bahabwa amahugurwa, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubworozi.

Ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare bukorwa mu nshe zose zigiye zitandukanye yaba mu mujyi no mu cyaro, aha ngaha ntabwo twakwirengagiza nk'inka aho ikunze kwifashishwa n'abahinzi bo mu cyaro ndetse n'aborozi; abantu benshi rero bamaze gusobanukirwa akamaro kazo aho bamaze kumenya ko zitanga ifumbire ndetse zigatanga n'amata bityo imirire mibi ikarwanywa.

Ibihumyo ni bimwe mu bihingwa bikorwa kandi bishyizwemo imbaraga muri iki gihe, mu maresitora agiye atandukanye ndetse no mu birori bose usanga bashaka kugira icyo babikoresha kandi n'abasirimu bose bakunze kubituma ku biryo byose baba bagiye gufata.

Abantu bita ku matungo dukunze kububaha ariko na bo baba bagomba kugira icyo bagaragaza ko bashoboye. Aha ngaha nk'ubworozi bw'inka bukunze gukoreshwa cyane mu ngero tugomba kubusobanukirwa neza.

Inka ni inyamaswa nziza kandi itanga umukamo, umworozi rero uyifite nta bibazo by'amikoro akunze guhura nabyo kuko abona umusaruro uhagije, aha ngaha ndavuga nko gufata amase akagenda akayashyira mu murima, aho avamo ifumbire nziza y'imborera.

Ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bikorwa bikunze gutezwa imbere na Leta y'u Rwanda, aha ngaha navuga nk'inka aho zikunze gutanga umusaruro, umukamo ndetse n'abantu bazoroye usanga babayeho neza kandi nta bibazo bakunze guhura na byo kuko baba barizigamiye, ni ha handi Umunyarwanda yavuze ngo ukena ufite itungo rikakugoboka.

Kubaga amatungo burya ntabwo ari igikorwa kiza. Ibi ngibi rero ni n'iyo byakorwa haba hagomba gushyirwaho izindi ngamba zo kuza gupima bakareba ko izo nyama ziri guhabwa abaturage cyangwa se ziri kugenda zikwirakwizwa zidashobora guteza ibibazo. Ni byiza rero kwita ku bintu nk'ibi ngibi kuko biba bikenewe cyane.

Ubuvuzi bw'amatungo bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ntabwo twakirengagiza ko tugomba gushyiramo imbaraga, tugashyiramo ibintu byose bishoboka kandi tukita kuri ayo matungo kuko iyo yitaweho neza nibwo atanga umusaruro kandi akagirira n'abantu akamaro.

Abavuzi b'amatungo barakenewe cyane. Hari abagomba kwita ku matungo magufi n'amaremare. Aha ngaha twavuga nk'ingurube. Ni itungo ryiza iyo ryitaweho, ritanga umusaruro, ifumbire ndetse n'umuntu akagenda akemura ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima, Aha ngaha rero tugomba kuzitaho cyane cyane ku bantu bazoroye.

Impuzankano iba igomba guhabwa abakora mu gice cyose cy'ubuzima ndetse n'uburezi, ibingibi rero bituma abantu bose bamenya inshingano bahabwa n'kazi kabo kandi bikabatandukanya n'abandi bantu basanzwe n'abakeneye izo serivisi bakazibona ku buryo bwiza kandi bwihuse.

Ubworozi bw'inka bwakunze gukorwa cyane mu Rwanda rwo hambere, si icyo gihe gusa kuko n'ubu ngubu buracyakorwa, ntabwo rero twabura kuvuga akamaro kabwo aho dukunze kubona nk'ifumbire y'imborera ndetse tukamenya ko ziduhereza n'amata. Navugaga inka ni zo nari ndi kugaragaza hejuru aho.

Hari ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi, harimo nko kuba bafite ibintu bigaragara neza kandi bashobora gushyiramo amata nk'ibyatsi cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa; tugomba rero kubigirira isuku tukabyitaho kandi tukabirinda kwangirika, ibi ngibi bizatuma umusaruro wiyongera.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane maremare, bukunze kwifashishwa mu bice byo mu cyaro, aho usanga abantu bakora bworozi babona amafaranga ahagije kandi bakabaho neza n'ibibazo bikagenda bigabanuka.

Ubuhinzi iyo bukozwe neza butanga umusaruro aha ngaha havuga nk'inka, iri tungo rikunze kuba riri ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bice by'igihugu, ariko cyane cyane mu gice cy'Uburasirazuba ahantu dukunze kwita mu Mutara.

Abaganga bita ku matungo bagomba kuba bafite ubumenyi buhagije, si ibyo gusa kuko n'abo bagiye kuvurira amatungo bagomba kubanza gusobanurirwa neza icyo bagiye gukorerwa kandi ibindi bigakorwa mu buryo bwiza bunaboneye.

Ibikoresho bikoreshwa mu bworozi hari igihe baba badasobanukiwe neza ba nyiri ukubikoresha. Tugomba rero kumenya uburyo bwiza bwo kubibungabunga ndetse no gushyiraho imbaraga ndetse n'umwete wose ushoboka. Ibi ngibi bizatuma twiteza imbere ndetse n'amatungo akamererwa neza.

Inyamaswa ziri mu bintu bidukikije yaba imbwa, yaba imbwebwe, yaba imisega ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aha ngaha hari rero abaganga bazo bagomba kuzitaho kandi bakaba barahawe amahugurwa ndetse bafite n'ubumenyi buhagije bwo kwita kuri izo nyamaswa kugira ngo zitagira ikizihungabanya.

ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ntabwo abantu benshi baba babisobanukiwe cyane cyane abahinzi batize. Aha ngaha rero hasabwa ubukangurambaga ndetse no gusobanurirwa ku buryo bwimbitse.

Ubworozi iyo bukozwe neza butanga umusaruro kandi bugateza imbere ababukora. Aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga tukita ku matungo yacu, tukita ku bimera ayo matungo abasha kurya ndetse yewe tugashyiraho n'uburyo bukomeye kandi bw'ingamba zikarishye mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ibiza bishobora kutwangiriza.

Impuguke mu buhinzi n'ubworozi zigomba kuba zifite ubumenyi buhagije kandi n'amahugurwa, ibi ngibi rero bizatuma ubworozi bwiyongera ndetse n'amatungo ntagire ibindi bibazo yaba ku bantu ndetse no kuri yo ubwayo.

Muri pariki y'Akagera ni ho dukunze gusangamo inyamaswa nini cyane nk'inzovu, akenshi abantu bazizi bakunze kuvuga ko ari inyamaswa z'inyamahoro nta kibazo cyazo kandi zidakunze no gutera abantu ubwoba cyangwa ngo zibasagarire.

Mu mapariki dukunze kubonamo inyamaswa zigiye zitandukanye, aha ngaha twavuga nko muri Pariki y'Akagera, aho dusangamo inyamaswa z'indyanyama n'indyabyatsi, aha ngaha harimo nk'impara n'imparage, aho zikunze kuba zifite amabara meza cyane akurura ba mukerarugendo ndetse n'abaturarwanda muri rusange, tugomba rero kuzifata neza no kuzirinda ba rushimusi.

Inyamaswa nk'ibisamagwe tuzibona muri pariki y'Akagera, ni inyamaswa iteye ubwoba ku buryo harimo abantu bamwe bagira n'ikikango iyo bayitekereje, ibi ngibi rero ntibigomba kuba urwitwazo rwo kuba tutayifata neza ngo tuyibungabunge nayo.

Hari inyamaswa ziba mu rugo, harimo n'inyagasozi. Zose rero zidufitiye akamaro. Tugomba kuzibungabunga, tukazitaho, tukazibyaza n'umusaruro cyane cyane nka ba mukerarugendo baza kudusura, badusigira amadovize iyo babonye izi nyamaswa.

Inyamaswa zo mu mazi nk'ibishure ndetse n'ingona na zo ni ibidukikije tugomba kuzifata neza tukazibungabunga tukirinda kuzigirira nabi, ba rushimusi bagomba gushakishwa ahantu hose bari ndetse n'ahandi bihishe bakagenda babazwa ibyo bagiye bakorera inyamaswa nk'izi ngizi z'inyamahoro.

Hari inyamaswa zimwe na zimwe ziboneka mu mazi nk'ibishuhe aho dukunze kumenya ko zikunze kudufasha mu kamaro kacu, aha ngaha rero ntabwo twakwirengagiza ko ari ibintu by'ingenzi kandi tugomba gushyiramo imbaraga, tugomba kumenya ko ziri mu bidukikije kandi tukirinda kuzangiza turwanya n'ibikorwa bya ba rushimusi.

Inyoni ziri mu bidukikije, harimo amoko menshi rero agiye atandukanye, hari iziba mu mapariki, hari izirorerwa no mu rugo nk'inkoko, ntabwo rero tugomba kuzigirira nabi cyangwa se dutume ba rushimusi bazihohotera, ibingibi rero tugomba kubishyiramo imbaraga kandi tugashyiramo n'umurava mu kuzibungabunga.

Inyamaswa z'inyagasozi harimo nk'ibisamagwe ndetse n'ingwe. Dukunze kuzisanga muri pariki y'Akagera iherereye mu gice cy'iburasirazuba. Ba mukerarugendo rero bakunda kuza kwirebera ubwiza bw'izi nyamaswa kandi bino byongera amadevize ku gihugu.

Mu bidukikije harimo ibikururanda, aha ngaha twavuga nk'ingona, imiserebanya ndetse n'ibyugu ariko ntabwo abantu baramenya gufata neza ibi bidukikije, aho usanga harimo ababikerensa bakaba babigirira nabi.

Hari inyamaswa zigiye zitandukanye z'ubwoko tudashobora kubona mu ngo zacu zisaba kuzisanga mu mapariki. Ni yo mpamvu leta igomba gushyiraho ingamba zikarishye zo kurwanya ba rushimusi kugira ngo izo nyamaswa zikomeze zibungabungwe neza bityo ntizishire ku isi. Biba bibabaje rwose iyo ubona umuntu mukuru atazi akamaro kazo kuko na zo ziri mu bintu bidukikije.

Mu bidukikije hagiye harimo inyamaswa zitandukanye nk'impara ndetse n'imparage, dukunze kuzibona muri pariki y'Akagera, iherereye mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda, tugomba rero kuzibungabunga neza, tukazirinda ba rushimusi.

Inyamaswa zo mu gasozi ntizigomba kugirirwa nabi tugomba kuzifata neza kuko zikurura ba mukerarugendo zikinjiriza igihugu amafaranga dukunze kwita amadevize, aha ngaha rero abantu benshi ntabwo bazi akamaro kazo usanga nk'iyo zigeze mu baturage hagati harimo abazitera imijugujugu bakaba bazigirira nabi.

Bimwe mu birango by'umuco harimo inyamaswa nk'amasatura ndetse n'imvubu. Tugomba rero kuzibungabunga, aha ngaha twavuga nka pariki zigiye zitandukanye nk'iy'Akagera, iherereye mu gice k'Iburasirazuba kandi ibi ngibi byakomeje kwigishwa n'ahantu hose.

Ibihingwa bigiye biteye ku gasi ntabwo byitabwaho cyane. Abantu usanga batabyuhira cyangwa se ngo babifate neza banabibungabunge. Ibingibi bigomba kugenda byigishwa mu bisata byose bigiye bitandukanye kandi bigashyirwamo imbaraga na leta, aho igomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka mu kubungabunga ibimera ndetse n'ibidukikije.

Muri pariki y'Akagera iherereye mu gice k'Iburasirazuba ni ho dusanga inyamaswa zigiye zitandukanye aha navuga nk'impara n'imparage, ntabwo rero twakwirengagiza ko ibi ngibi bituma Igihugu gikundwa kandi kikagendwa ku buryo bushoboka bwose.